Abagore bateze amaboko bari kubyina bambaye imishanana ndetse n'urunigi bari guseka, bari gususurutsa abantu bitabiriye ibyo birori.

Inzu isize irange ry'umuhondo ndetse imbere yayo hari abantu bambaye ibikoresho by'ubwirinzi, birinda impanuka, umwe ari kwinjira muri iyo nzu.

Umuntu uhagaze ku rwego rwego ari kwesitara insinga z'amashanyarazi, amashanyarazi afasha abantu mu kubona ndetse no kuva mu mwijima.

Abaturage biganjemo abagabo n'abagore bari gukurura urutsinga, abagore bambaye imipira y'umweru ifite ikorara ry'umutuku, abagabo bambaye imipira y'umukara.

Umugore witeze igitambaro cy'umuhondo, imbere ye hari imashini idoda imyenda hamanitse ibitenge ndetse n'igishushanyo mbonera kigaragaza ibikorwa bye.

Abaturage biganjemo abagabo ndetse n'abagore bambaye ibikoresho byifashishwa mu kurinda impanuka, bari ku kiraro bari kwambuka ikiraro cyifashishwa mu kwambukiraho abantu bava hamwe bajya ahandi.

Umuhanda w'umukara urimo imirongo isa umweru ndetse hari n'icyapa, cyerekana ahantu imodoka ziparika, hirya yaho hari abantu ndetse n'inzego z'umutekano zidufasha kuducungira umutekano.

Umuhanda ugenda ujya ku nzu ikorerwamo n'abayobozi bagiye batandukanye, hari indabo ndetse n'ibiti byiza, ubusitani bwiza cyane.

Abashinzwe umutekano bahuriye hamwe n'abaturage, bari kubaha ibiganiro bigiye bitandukanye, hari ibitambaro byifashishijwe n'imitako biri mu mabara atandukanye ari yo icyatsi, umuhondo n'ubururu.

Aho abantu bateraniye babwirwa ibintu bigiye bitandukanye harimo inzego z'umutekano zishinzwe gucungira abantu umutekano ndetse n'igihugu muri rusange abapolisi badufasha kwirinda ba rushimusi ndetse n'abajura.

Abantu bateraniye ahantu hamwe, abagore bakiri bato, abamaze gukura ndetse n'abagabo, bafite udutambaro mu ijosi, bambaye ibintu bigiye bitandukanye ndetse hari n'abambaye impuzankano.

Abaturage bari kugenda, bari kunyura mu muhanda w'igitaka, impande y'uwo muhanda hateye insina ndetse hari n'ibiti; insina zifashishwa mu kugaburira amatungo ndetse abantu bakarya ibitoki.

Umuhanda wa kaburimbo urimo umurongo w'umuhondo hari kugendamo imodoka itwawe n'umushoferi yambaye umupira w'umweru, umushoferi afasha mu gutwara abagenzi ibakura ahantu hamwe ibajyana ahandi.

Abagabo babiri bari imbere y'abagore, barasa nkaho bamaze kubaha amabwiriza agiye atandukanye cyangwa amategeko agiye atandukanye ndetse hari n'ibyatsi n'abagore bafite imitaka, imitaka ibafasha kwirinda izuba.

Abagore n' nabagabo ndetse n'abakobwa bahuriye hamwe imbere yabo hari abantu babiri bab'abagabo basa nabari kuganira ndetse hari uwambaye umupira w'ubururu akenyeye igitenge.

Abantu benshi bari mu murima, urimo inyanya, hirya yaho hari ibiti, inyanya zifashishwa mu biribwa ndetse ibiti, byifashishwa mu kurinda isuri ndetse no gukurura umwuka mwiza, aho hantu.

Abantu bateraniye hamwe, imbere yabo hari umuntu ushinzwe umutekano, yambaye impuzankano, irimo ipantaro n'ikoti n'ijire ndetse n'ingofero, afite indangururamajwi, imufasha kumvikanisha ibyo yateguye kubwira abo bantu.

Abakinnyi bari gukina umupira w'amaguru, bari mu kibuga bafite balo, bari kwishimisha. Iyo umuntu akinnye, agira ubuzima bwiza ndetse akishima.

Ikibuga kirimo abantu bari gukina umupira w'amaguru bambaye impuzanano zirimo amabara agiye atandukanye, bamwe bambaye impuzankano zisa umuhondo, abandi bambaye impuzankano zisa ubururu, siporo zidufasha kongera abasirikare b'umubiri badufasha kwirinda indwara zigiye zitandukanye.

Inzu ya etaje irimo abantu benshi bicaye bakurikiye umupira ndetse bari no gufana. Iyo abantu barebye umupira barishima.

Abantu bari mu kibuga bambaye impuzankano zifite amabara atandukanye, bamwe bambaye impuzankano z'umuhondo abandi bambaye impuzankano z'ubururu bari mu myitozo ngororamubiri ibafasha kongera abasirikare b'umubiri ndetse no kongera imbaraga mu mubiri.

Umuhanda w'gitaka impande yaho hari ibyatsi, ibyatsi byifashishwa mu kugaburira amatungo. Umuhanda wifashishwa mu kunyuramo abantu cyangwa amatungo biva ahantu hamwe bijya ahandi.